Umugabo uri kumwenyura cyane wambaye ingofero isa umukara wambaye jiri y'uburu n'agapira k'umweru, imbere hari akapa gasa ubururu kandicishajwe inyuguti zisa umweru, biragaragara ko yatsindiye imodoka arishimye cyane hirya y'iwe hari ibicu bisa umuhondo bigaragara ari ku mu.

Akapa gasa umutuku kari ku rupapuro rusa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umweru, hasi hari inyuguti zandikishijwe icyats, kano kapa kari ku rukuta rwegereye umweru.

Umugabo uri kumwenyura cyane, afite igitabo mu ntoki gisa umukara n'umweru, afite n'igikombe gisa shokora hejuru hariho umukara, mo imbere ni umweru, yambaye agapira gasa icyatsi, yambaye n'ipantaro isa umukara, yicaye mu ntebe zegamirwa nziza cyane zisa umweru, inyuma ye hari n'ibyuma bisa umukara n'umweru.

Icyapa gisa umukara cyandikishije inyuguti zisa umweru, hasi harikapa gato gasa ubururu handikisha inyuguti zisa umweru hejuru hariho nigicu gisa ubururu. Biragaragara ko ari ku manywa.

Abantu benshi batandukanye bafashe icyapa gisa ubururu cyandikishije inyuguti zisa umweru, bahagaze kuri tapi isa umutuku, inyuma yabo hari urukuta rusa shokora, hejuru hari n'amatara. Umugabo umwe yambaye ikoti isa umukara n'ishati isa umweru, n'undi mugore nawe yambaye imyenda isa umukara, afite n'imisatsi isa umukara.

Icyapa kiriho umukobwa uri guseka cyane ufite imisatsi y'umukara, yambaye ishati y'umukara. Iki icyapa kirimo ibara ry'umutuku ryandikishijwe inyuguti, inyuguti zisa umweru. Hasi y'iki cyapa hari ibiti byinshi cyane bisa ibara ry'icyatsi.

Abagabo babiri umwe yambaye imyenda y'umukara afashe igitabo gisa umweru n'icyatsi, undi yambaye imyenda yerurutse afashe telefoni hirya yabo hari imodoka nziza cyane nyinshi zifite ibara ry'umukara n'umweru, hejuru yabo hari ibara risa ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Abantu batatu, harimo umugabo bamwenyuye cyane ari gusuhuza undi mugabo, yambaye ikoti risa umukara, n'ishati y'umweru, inyuma yabo hari umugore usutse imisatsi y'umukara, wambaye ishati isa umweru, inyuma yabo hari urukuta rusa umweru, hariho icyapa cyandikishijwe inyuguti zisa ubururu.

Hano hari umuntu bigaragara ko afite ibintu ari kwamamariza, hirya y'iki cyapa hariho ibicu bisa ubururu. Kino cyapa cyandikishijwe amabara y'umweru n'umutuku n'ubururu.

Iduka ry'imyenda rifite amabara atandukanye umutuku n'umuhondo n'umutuku werurutse cyane, hirya yaho hari ibara risa umweru n'umukara aho iyi myenda imanitse harasa umukara cyane cyane.

Umukobwa uhagaze ku muhanda w'umukara, imbere ye hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye amata, amasabune, umukobwa yambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku n,icyatsi yiteza igitambaro gisa umukara yambaye n'amadarubindi asa umukara, imbere ye hari imyenda isa umukara.

Iduka ririmo imyenda itandukanye harimo umupira usa umuhondo, harimo umupira usa ubururu, umupira usa umukara, umupira usa umutuku, umupira urimo umukara n'umweru. Impande y'iyi myenda hari urukuta rusa umweru, hejuru hari inkweto zisa umukara n'umweru.

Iduka ry'imyenda amabara atandukanye harimo ubururu, harimo umukara, harimo shokora, harimo n'andi mabara yijimye. hirya yaho hari urukuta rusa umweru hejuru y'iy'imyenda harasa umukara.

Uturinga bambara ku kuboko tw'amabara atandukanye harimo ubururu, harimo umutuku, harimo umuhondo, harimo n'amabara yijimye, hirya yaho hari urukuta rusa umweru duteretse ku kintu gisa nk'igiseke.

Umugore uri kumwenyura cyane wambaye itaburiya isa umutuku n'umweru wambayemo imbere ishati isa umukara asutse imisatsi isa shokora afite agacupa kari gusukamo nk'ibintu inyuma ye hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye udukapu, amavuta ibintu byinshi.

Umuhanda w'umukara uparitsemo imodoka nziza cyane y'umukara ifite n'amapine y'umukara, hirya y'iyimodoka hari ibiti bisa icyatsi n'insinga n'inkuta zisa umweru hiryaho harimo inzu isa umukara.

Imodoka nziza cyane iparitse ku makaro asa umwera. Imodoka ifite amapine asa umukara, hejuru y'imodoka hari ibyuma bisa umukara, hirya yayo hari n'indi modoka isa umukara hary hari n'urundi rurabo rusa umukara, ikikijwe n'inkuta zisa umweru.

Abagabo babiri bahagaze ku modoka nini cyane ifite ibara ry'umukara n'umweru, hariho akapa ku modoka kandikishije mu nyuguti zisa umukara, umugabo umwe afashe mvilope y'ikigina mu ntoki na terefone ye, yambaye n'amadarubindi n'ingofero isa umukara.

Imodoka nziza cyane isa umukara, imodoka bayifunguye, ku ruhande rumwe hahagaze umukobwa, wambaye agapira k'umweru n'akantu mu mpande gasa umweru, na agapfukamunwa gasa umweru, n'ipantaro isa ubururu. Hirya hari umukobwa nawe wambaye umweru, n'ipantaro isa ubururu. Iyo modoka iri kumakaro asa umweru.

Abagabo batatu, bafashe akapa mu ntoki gasa umweru kandiikishije mu nyuguti zisa umukara n'umutuku, hirya yabo hari ikimodoka kinini cyane gisa umweru n'umukara.

Imodoka nziza cyane is’umukara ifite amatara as’umutuku, inyuma y’imodoka har’akapa kandikishijwe inyuguti zis’umukara, impande y’iyi modoka hariho inyubako nini cyane yubakishijwe utubuye dusa shokora.

Imodoka nziza cyane isa umukara, imbere hari akapa gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara hejuru hariho n'inyuguti zandikishije umweru, hirya hari urukuta rusa umuhondo n'ibyuma bisa umweru, hirya y'urukuta hariho ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Abagabo babiri bahagaze ku kimodoka kinini cyane cyanditse mu nyuguti z'umukara n'umutuku, umugabo umwe yambaye ingofero n'ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, undi mugabo uri ku ruhande rwe nawe yambaye inkweto z'umukara n'ipantaro ijya gusa ubururu n'ishati y'ubururu, bahagaze ku muhanda usa shokora.

Imodoka nziza cyane biragaragara ko ikiri nshyashya isa umukara n'amapine asa umukara, hirya y'iyo modoka hari umuhanda w'igitaka, hirya y'umuhanda hari igipangu cyubakishijwe irangi risa umweru, hejuru hari ibyuma bisa umukara, hirya yaho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Abagabo batandatu bari kwifotoza, bafite udukarito dusa umutuku, turiho akapa gasa umweru, kandikishije mu nyuguti isa umweru. Impande yabo hari imodoka isa umweru, ishushanyijeho akapa k'umweru, kandikishije inyuguti zisa umutuku. Hejuru y'aba bagabo, hariho ibipirizo bisa umukara, umutuku n'umweru.

Umuhanda w'igitaka. Urimo bisi ifite amabara y'umweru, n'umukara. Hirya y'iyi modoka nizindi modoka nyinshi cyane, biragaragara ko wagira ngo ni muri parikingi y'imodoka, hirya y'izi modoka hariho ibiti byinshi cyane, bisa icyatsi. Hariho ibicu bisa ubururu. Biragaragara ko ari ku manywa.

Umuhanda urimo imodoka usa umukara, harimo imodoka iri kwaka amatara y'umutuku, imodoka ifite amapine y'umukara, hejuru hasa umukara, impande y'iyi modoka hari inyubako nini cyane, ifite amadirishya asa umukara, ifite inkuta zisa umweru.

Imodoka nziza cyane iparitse ku makaro asa umweru, imodoka nayo isa umweru n'umukara hejuru hariho parafu zisa umuhondo hari n'amatara ku mpande hari ibikuta bisa umweru n'ibisa umukara.

Aha hari imodoka enye imbere y'izi modoka hariho abagabo babiri bambaye udupfukamunwa, hari uwambaye umupira w'ubururu hari n'uwambaye umupira usa ubururu bwerurutse, izi modoka zanditseho vorukano byandikishije mu mabara asa ubururu.

Umuhanda urimo amapave asa ikigina uparitsemo imodoka ebyiri z'umukara hirya y'izi modoka hari umutaka usa umweru wandikishije mu nyuguti zisa umukara, hirya aho hari amatara hari n'insinga zijyana umuriro hirya no hino. Hirya yaho hari n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Imodoka ebyiri ziparitse hariho isa umukara hariho n'isa umweru, isa umukara hariho akapa gasa umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara, hirya y'izi modoka hari inyubako nziza cyane ifite irangi ry'umweru n'ubururu n'umukara hariho n'ibicu bisa umweru, biragaragara ko ari ku ku manywa.

Amafaranga ibihumbi biyanu aya mafaranga ashushanyijemo inyamaswa y'umukara, hirya y'iyi nyamaswa hariho ibiti by'umukara, hirya hasi yayo mafaranga hariho ibara ry'umukara.

Amafaranga y'u Rwanda ashushanyijeho inzu isa umukara, hariho umugabo wambaye imikenyero uri kubyina, hariho sinya isa umukara, hariho hejuru handikishije inyuguti isa umukara handitseho ngo "Banki Nkuru y'u Rwanda", hasi hariho inyamaswa isa umukara.

Imigati myiza cyane ifite ku mpande ibara rya shokora, iri ku meza asa shokora hirya yaho hari agatambaro gasa umweru, umutuku, icyatsi, hirya hari urukuta rusa umweru.

Iduka riririmo ibicuruza bitandukanye hari umugati hari amazi hejuru hari urukuta rusa ubururu hejuru hariho n'utuntu duto basukamo amata dusa shokora hejuru yashushanyijeho n'inka isa umweru hegereyeho n'ibara risa umuhondo n'ubururu.

Inzu ifite amakararo y'umweru n'ameza ya shokora, hirya y'aya meza hari ingunguru basukamo amata ifite ibara ry'umweru n'ubururu handikishijeho inyuguti z'umweru yanditseho Nyanza, impande y'iyo ngunguru hirya hubakishijwe amatafari asa shokora.

Ameza ateretseho amata n'isahani iriho imyumbati, hariho na terefone ku meza n'igikombe gisa umweru. Hirya hicaye n'umugore wambaye ibitenge bisa umuhondo n'umweru n'umutuku. Hirya yiwe hari na firigo isa umutuku ishushanyijeho icupa rya fanta.

Ameza atetseho igikombe kirimo amata hirya yaho hari akavido karimo amata n'ikindi gikombe, hari urukuta rusa shokora ameza ariho amabara asa ubururu, hirya yaho hari intebe isa umweru biragaragara ko ari nk'ahantu bacururiza amata.

Abantu bane baje kugura amata, bahagaze ku makaro asa umweru, hirya yabo hariho amacupa asa ubururu, hirya yabo hari n'urukuta rusa ubururu, hejuru y'ameza yateretseho akavido karimo amata, hirya y'aba bantu hariho n'ikigunguru kiri kuvamo amata ajya mu ivido.

Umukobwa uri kudaha amata inyuma y'iwe hari ameza manini cyane ariho akayunguruza na telefoni, hirya hari na firigo hari n'inzu ifite urukuta rw'umweru biragaragara ko iyi nzu ari iyo gucururizamo amata.

Inzu icururizwamo amata, ifite urugi rusa ubururu, hejuru hasa ubururu handikishije mu nyuguti zisa umweru n'icyatsi. Hanze hari n'amabuye asa shokora hari na puberi isa umutuku, mo imbere harimo amakaro asa umweru, harimo na firigo isa umweru iriho n'utuvido dusa umweru turimo amata.

Abantu batatu bishimye cyane harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara n'umukobwa wambaye umupira w'umutuku, umukobwa afite imisatsi isa umukara yambaye n'ingofero y'umukara, biragaragara ko bishimye cyane bafite utubuni tw'amata mu ntoki.

Uducupa turimo amata hari agasa umutuku, hari n'agasa umutuku n'umweru hariho n'umuhondo, hari n'icupa ry'amazi n'imbere hariho n'utubido turimo amata. Hariho n'urukuta rusa umweru, hasi hariho n'amakaro asa umweru.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umukara n'umweru biragaragara ko ziriya ari mudasobwa imbere ya mudasobwa hiicayeho umugabo wambaye amadarubindi, hirya y'inyubako hari akapa gasa ubururu harimo n'akandi kapa gasa umweruru kandidikishijwe mu nyuguti zisa ubururu.

Inyubako nziza ifite ibara risa ubururu n'ibara risa umweru yandikishijejwe mu inyuguti zisa umweru, impande y'iyi nzu hariho intebe zisa umweru n'imodoka nyinshi n'igiti kiri hirya gisa umukara, hariho umugabo wambaye umupira usa umuhondo.

Inyubako nziza cyane ifite amabara asa umweru, hirya y'iyi nyubako hariho imitaka isa umuhondo biragaragara ko bahacururiza amayinite, impande y'iyi nyubako hari abantu benshi cyane harimo umugabo wambaye ishati isa ubururu n'undi wambaye ishati isa umweru.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umukara n'umweru n'ubururu yandikishije inyuguti zisa umuhondo, hasi hari icyapa gisa umweru cyandikisha inyuguti nazo zisa umuhondo, hasi hari abantu babiri bambaye udusharupe mu ijosi dusa icyatsi.

Inyubako nziza cyane ifite ameza asa shokora, n'intebe zisa shokora, n'utubati dusa shokora, hejuru hari irange risa umweru, hasi hari amakaro asa ikigina.

Ameza asa umweru, hasi hasa shokora, hasi hari amako arasa umweru, hirya y'aya meza hari intebe zisa shokora nziza cyane, hirya y'izi ntebe, hariho n'ibitambaro bisa umukara n'umweru.

Ameza asa shokora afite n'intebe zisa shokora hasi hari amakaro asa umukara hirya yaho hari n'izindi ntebe zisa shokora ariko mo imbere harimo imyenda isa umukara n'icyatsi, hirya yaho hari irangi risa umweru.

Ameza asa shokora mu mpande hari intebe zisa shokora, hirya y'ameza hariho akabati gasa shokora, hejuru hari utubara dusa umweru n'umukara hateretseho n'agasahani gasa umweru, hirya y'ameza hariho n'urukuta rw'umweru hasi hari amakaro yijimye.

Intebe nziza cyane zifite ibara rya shokora harimo imyenda isa umukara n'umweru, hariho ameza imbere asa shokora hejuru hari ikirahure cy'umweru, hirya y'izi ntebe hari urukuta rusa umweru.

Ameza asa shokora hasi hariho uturabyo dusa umuhondo, hirya y'aya meza hari urugi rusa icyatsi, hirya hariho n'amakaro asa umweru ari ku rukuta.

Ameza asa shokora, afite n'intebe zo kwegamirwamo za shokora, hasi hari amabuye asa umukara, hirya yaho hari urukuta rusa umweru, hari n'igipangu gisa umutuku. Impande y'igikuta hari idirishya risa umuhondo hariho n'umukara.

Amazi yo bogeramo arasa ubururu impande y'aya mazi hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, ruguru y'aya mazi hari intebe z'umukar bicaramo bavuye mu mazi, ruguru y'ubu busitani hari inzu nziza cyane ifite irange risa ubururu n'umuhondo, hejuru hari ibicu bisa ubururu n'umweru biragaragara ko ari ku manywa.

Amazi asa ubururu, impande y'amazi hari intebe zisa umutuku n'intebe zisa umweru, hejuru hariho imitaka isa umweru, hirya hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Aka ni akabari katarimo abantu, karimo intebe za shokora n'iz'umukara, harimo n'ibindi bicuruzwa. Hirya yaka kabari hari ingemwe zifite amabara y'icyatsi, na kano kabari gafite n'amakaro asa nka shokora.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umutuku n'umukara, ifite n'inkuta zisa umweru, ifite n'amadirishya asa umukara, ifite n'amarido asa umukara, hirya hariho n'ahantu hasa umukara, hariho akapa gasa umukara kandidikishije mu nyuguti zisa umweru, hejuru hari ibicu by'umweru n'igisa ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Umuhanda w'igitaka hirya y'umuhanda hari inyubako nini cyane irikwakamo amatara menshi, imbere y'iyi nyubako hari ibiti byinshi cyane bisa umukara, hariho n'amatara yo mu muhanda hari n'amapoto ari kujyanamo umuriro.

Ameza asa umutuku, hejuru y'ameza hateguyeho akarabyo gasa umweru, ameza akikijwe n'intebe enye z'umukara, hirya y'aya meza hari inyubako nini cyane yubakishijwe mu ibara ry'umweru na shokora. Hirya y'iyi nyubako hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Inyubako nziza cyane zifite amabara atandukanye ay'umutuku ay'ubururu n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi n'umukara biragaragara ko bwije cyane hari umuhanda wa kaburimbo hariho n'amatara yo kumuhanda hariho n'ibicu bisa umukara.

Inyubako nziza cyane ifite amabara y'umuhondo n'umukara, itangijwe n'ibiti bisa icyatsi, hasi hariho icyapa gisa umukara n'umweru kiriho kamera eshatu.

Inyubako nziza cyane, impande y'izi nyubako hariho ubusitani bwiza cyane bufite ibara risa icyatsi, hariho n'imitaka isa umukara, hirya hariho n'abantu bambaye imyenda umweru hari n'indi nzu igeretse, igeretse.

Inzu nziza cyane ishasheho igitanda amashuka asa umukara n'ibisego isa umukara n'umweru, hirya hari intebe zisa icyatsi n'ameza asa shokora ateretseho akarabyo gasa umuhondo, hariho n'ibikuta bifite irangi risa umuhondo n'amaridashya asa umuhondo n'umweru.

Inzu nziza cyane ifite amakaro asa umweru n'umukara, hariho n'intebe isa umukara hariyo akabati gasa shokora hepfo y'akabati hariho akantu gasa umweru hariho n'ibikuta bisa umweru hariho na computa.

Inzu ifite ibara ry'umweru, hanze harih’amakaro as’umweru, hariho agatapi k’injira mu nzu gasa umukara, hariho umugabo ku rugi uri kumwenyura cyane wambaye ishati y’umweru, hasi mu nzu hariho udukaro tw’amabara y'ubururu n’umweru, hariho n'ameza asa shokora.

Inyubako nziza cyane irimo intebe zisa umutuku n'ameza asa umweru, hirya y'ameza hariho ururabyo rwiza cyane rusa icyatsi. Iyi nyubako ifite n'inkuta zisa umweru harimo n'amatara meza.

Umuhanda w'umukara urimo imodoka isa umweru n'umukara, hari kugenda umuntu ufite indobo mu ntoki, hirya yaho hari n'indi modoka isa umweru n'umukara, impande y'izi modoka hari ibiti bisa icyatsi. Impande y'ibi biti hari inyubako nziza cyane ifite irangi ry'umukara n'umweru.

Inyubako nziza cyane impande y'inyubako ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, iyi nyubako ifite ibara risa umukara, umweru ubururu, hejuru y'inyubako hari icyapa gisa ubururu cyarikihishe mu nyuguti zisa umweru.

Umuhanda wumukara hirya y'umuhanda hari akayira k'abagenzi, umwe ari kuza asatira undi ari kwiruka hepfo y'aho hari ubusitani bwiza cyane, hepfo y'ubustani hari inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umweru ni iry'umukara yandikishijwe inyuguti zisa umweru.

Inyubako nziza cyane ifite amabara atandukanye, umuhondo, ubururu, umukara n'umweru, hejuru hari n'icyapa gisa umweru, cyandikisheje munyuguti zisa umukara, hasi hariho n'umuhanda usa igitaka.

Inzu nziza cyane harimo intebe zisa umukara, hirya y'izi ntebe hari imitako isa umweru n'umukara, hari n'inkuta zifite amarangi asa umweru, imbere y'izi ntebe hari computer hari n'akabati gasa shokora.

Icyapa gisa umweru, cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu, hasi hariho umuhondo, handikishije mu nyuguti zisa ubururu n'umweru. Biragaragara ko bwije cyane, hirya yaho hari imodoka isa umweru n'umukara, hirya yaho hari amatara menshi cyane n'ibiti bisa umukara.

Inyubako nini cyane ifite amabara asa umuhondo yubakishijwe ubutafari busa shokora hariho ibyapa bisa ubururu, hasi hariho umuhanda n'ibyapa byo mu muhanda, hariho n'imodoka, hirya yaho hari n'igicu gisa ubururu biragaragara ko ari ku manywa.

Umusore wamwenyuye cyane wishimye yambaye agakote gasa umukara mu imbere yanmbayemo agapira gasa umweru, yambaye n'agaherena ahetse n'igikapu. Inyuma yiwe hari icyapa gisa icyatsi cyanditse mu nyuguti zisa umweru.

Umukobwa ufite imisatsi wambaye amadarubindi wambaye agapira gacimo turongo tw'umweru n'umukara afite igitabo gisa umutuku afite n'ikaramu isa ubururu, imbere yiwe hari icyapa gisa umutuku cyandikishije mu nyuguti zisa umweru hejuru hariho n'ikindi cyapa cyandikishije mu nyuguti zisa umutu.

Abagore babiri bamwenyuye bari guseka cyane. Umugore umwe yambaye ibiringa n'ishati isa ubururu, undi mugore nawe yambaye ikanzu yikoboyi ubururu, afite n'imisatsi isa umutuku. Hejuru yabo biragaragara ko bwije harijimye, imbere yabo hari inyuguti zandikishije mu magambo asa umweru n'icyatsi.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye imineke, voka, wotameloni, ibinyomoro, amatunda, ibitoki bidahiye harimo abantu batatu, hari umuntu waje guhaha, hari n'umugore wambaye umupira w'ubururu uteze igitambaro kirimo ubururu n'umweru, umugabo nawe yambaye ingofero mu mutwe.

Isoko ririmo ibibirirwa bitandukanye. Harimo: intoryi, inyanya, karoti, ibitunguru, puwalo, tungurusumu, imiteja, karoti, harimo n'abantu benshi batandukanye. Hari umugore uteze igitenge kirimo ibara ry'umuhondo n'umutuku, hari n'undi mugore uteze ibitenge gisa umukara, hariho n'undi mugore wambaye umupira usa umweru n'igitenge kirimo ibara ry'icyatsi n'umuhondo, hirya hariyo n'abantu benshi baje guhaha.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye: hari ibijumba, hari imyumbati, hari amateke hariho n'umugabo wicaye ku biti bisa shokora, yambaye ingofero irimo umukara n'umweru n'ikoti risa umukara n'ipantaro isa umukara, imbere hari umugore wunamye wikenyeye agasharupe gasa icyatsi n'umutuku, hari n'undi mugore wegereye uyu mugabo yambaye umupira usa umutuku.

Isoko ririmo ibicuruza bitandukanye harimo imboga, harimo inyanya, harimo ibijumba, harimo intoryi, hariho abagore babiri bari kuganira cyane bamweye bishimye umwe yahereje undi ikarita ngo amushyirireho amafaranga, yambaye rineti yambaye n'agasharupe, yambaye n'isaha arishimye cyane undi nawe afite ikintu kimeze nka telefone mu ntoki.

Umugore uri kumwenyura ari kubaga amafi ayakoramo imyanda, hari amabasi atandukanye isa ubururu irimo amafi n'indi isa umutuku n'indi isa icyatsi hirya yaho, hirya yabo hari abantu wagira ngo bari mu bwato bari kuroba amafi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo amatunda, harimo ibinyomoro, harimo amaronji, harimo mantelina, harimo inanasi, harimo imyembe, harimo pome, harimo indimu, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Hari umugore uhagaze ku ndimu witeze igitambaro gisa ubururu yambaye agapira gaciyemo umurongo n'u umwe uburongo bw'umukara n'umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiseke, hari n' ibiringa, harimo inkoni bakoresha iyo bari mu bukwe, harimo ibisabo, harimo ingofero, harimo n'inkoni harimo n'utuntu babuganizamo amata.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibitenge harimo imipira, hari imipira isa umweru n'umukara n'ubururu, hariho n'ibitenge bisa umutuku n'umukara n'icyatsi. Hirya y'ibi bitenge hariho n'ikoti risa umukara.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye harimo; urusenda, harimo intoryi, harimo amashaza, harimo wotameroni, harimo imineke, harimo amaronji, harimo n'abantu benshi batandukanye abana n'abadamu. Hirya y'aba bantu hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hariho n'umutaka usa umuhondo n'umutuku.

Isoko ry'ibicuruza bitandukanye harimo inyanya, hari n'ibitunguru, harimo bomba, harimo amashaza, harimo abantu benshi batandukanye baje guhaha, hari umwana wambaye agapira gasa umuhondo wicaye impande y'inyanja hari n'umugabo nawe wambaye ishati isa n'umweru n'ipantaro yumukara n'ingofero isa ubururu ari gucuruza inyanya.

Isoko ririmo ibicuruza bitandukanye; harimo urusenda, harimo intoryi, harimo igitoki, harimo imyenda, harimo abantu benshi baje guhaha batandukanye; harimo umukobwa wasetse wamwenyuye ari gukora mu rusenda rw'umutuku; yambaye agapira gasa umweru n'ipantaro isa umuhondo.

Isoko ririmo ibicuruza bitandukanye. Harimo karoti, harimo intoryi, harimo ibitunguru, harimo ibitoki, harimo inyanya, harimo puwaro, harimo tungurusumu, harimo amashu, harimo abantu benshi batandukanye; abagore n'abagabo n'abana. Iri soko ryubakishijwe n'ibyuma bisa umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo udukapu, harimo ibitenge, harimo uturinga, harimo ibiseke, harimo imyenda, imipira, ibitenge bisu umutuku, n'umukara, harimo umugore witeze igitambaro gisa umweru yambaye n'ishati isa ubururu afashe ishirupe isa umuhondo.

Isoko ry'imbuto zitandukanye, harimo avoka harimo imineke, harimo inyanya, harimo puwavuro, harimo n'intoryi, hari n'ubunyobwa, hari n'umugore witeza agatambaro gasa umukara n'umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibipapayi, harimo imyembe, harimo ibinyomoro, harimo amaronji, harimo wotameloni, harimo amadegedi, harimo n'inanasi. Hicayemo umugore ufite igitenge gisa umuhondo n'umutuku n'icyatsi yifashe ku matama.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto, hakurya y'umuhanda haparitse imodoka z'umweru eshatu, mu muhanda hari kugendamo abagenzi benshi, hirya y'umuhanda hari inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umutuku n'iry'umuhondo n'iry'ubururu n'iry'icyatsi, impande y'umuhanda hariho n'itara ryo mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ushoyemo umurongo w'umweru ukikijwe n'amabuyesa umukara, ruguru y'umuhanda hari imodoka ziparitse zisa umweru n'umukara, mu muhanda hari kugendamo ikimodoka gifite ipine inyuma gisa umweru, hari kugenda n'umumotari, hari n'umumotari uparitse. Hirya yaho hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi hirya y'uyu muhanda hari inyubako nziza cyane ifite amadirishya asa ubururu n'ibikuta bisa umweru.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye karoti, ibitoki, ibitunguru, inyanya, imboga, intoryi, amashaza, ibishyimbo, ubunyobwa. Ni isoko ni isoko ririmo abantu benshi cyane abagore n'abagabo, iri soko ryubakishijwe n'ibyuma.

Abantu benshi batandukanye bari mu mutaka usa umutuku, biragaragara ko hano hari gutangwa serivisi za tigo, harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umutuku n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, hari abantu benshi bamutonze imbere biragaragara yuko baje gufata serivisi za tigo.

Abantu bane bari kumwenyura cyane harimo babiri bambaye imipira isa umuhondo n'undi bambaye umupira w'umweru n'umugabo wambaye kasike mu mutwe. Hirya yabo hari icupa risa umutuku, hirya yabo hari na moto bari gushyiramo esanse.

Abantu batatu, babiri bari b'imbere mu kazu undi umwe ari hanze yambaye ikoti ry'umukara. Kano kazu ugasa umuhondo biragaragara ko ari bacururizamo amanite babitsa banabikura hahagazeho umugabo wasanga ashaka kugura amayinite. Impande y'aka kazu hari inyubako nziza cyane ifite urugi rusa umuhoron hiryaho hari n'abantu benshi.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere y'akazu gasa umuhondo, biragaragara ko baje kubitsa no kubikura, harimo umugore wambaye imyenda isa shokora, umugore wambaye ishati isa n'umweru n'ijipo isa ubururu, ahetse agakapu k'umukara, hirya yaho hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Hano hari abantu batanu biragaragara ko bari gukora mu bijyanye na emutiyeni bari gufasha abantu hirya no hino, bari mu mutaka, usa umuhondo, hirya y'umutaka hariho ibiti bya by'amabara y'umukara, hirya yaba bantuhariho nundi muntu wambaye agasengengeri k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu.

Abantu batatu harimo umwe yambaye umupira w'umweru afite igikapu imbere ye n'undi yambaye ishati isa umutuku n'ijipo y'umukara, n'uwambaye umupira usa umutuku n'ijipo y'umukara, bahagaze ku nzu icururizwamo amayinite biragaragara ko baje kugura amayinite. Impande y'iyi nzu hariho n'inyubako nini cyane.

Telefone isa umukara umuntu uyifashe mu ntoki arashaka kugura amayinite impande y'iyi telefoni hariho urukuta rusa umukara hirya rero n'urundi rukuta rusa umweru biragaragara ko bashaka kugura amayinite bayakura aho bayabitse kuri telefoni bayashyira aho bahamagariye.

Abagore babiri bari kumwenyura cyane, bambaye imipira isa umuhondo, hirya yabo hari icyapa gisa umweru cyadikishije mu nyuguti z'umukara, imbere yabo kumeza hateretse amazi biragaragara yuko bari gukora mu bijyanye na emutiyeni.

Umuhanda w'ikigina hirya y'umuhanda hari inyubako isa umuhondo yanikishije inyuguti zisa umukara ifite icyapa imbere gisa umukara, imbere hariho radiyo hahagazeho n'umusekete hari abantu bari kwinjira baje gukoresha ibijyanye na emutiyene.

Iyi ni inzu yo bacururizamo amayinite. Ifite amabara y'umutuku nayandikishije ifite ibara ry'umutuku n'iryandikishije ibara ry'umweru n'iyandikishije ibara ry'umuhondo. Hirya yaho hari ibiti by'amabara y'icyatsi atandukanye.

Abagabo bane, batatu bambaye amajire asa umuhondo, umwe yambaye umupira, bari mu mutaka usa umuhondo, hirya yaho hari imodoka nyinshi n'ubusitani busa icyatsi. Bano bagabo biragaragara ko bari gutanga serivisi za MTN babitsa, banabikura.

Umukobwa wishimye cyane bamwenyuye, yambaye umupira w'umuhondo afite na mikoro mumutwe we yambayemo amadarubindi inyuma ye hari abantu benshi cyane nabo bambaye imipira isa umuhondo biragaragara nkaho bamuteze amatwi nkaho ari kubaririmbira hiryabo hari ingemu zisa icyatsi.

Umukobwa uhagaze wambaye inkweto z'umukara n'umweru, asize verine isa umweru, hirya y'umukobwa hari amakaro asa umweru, hirya hari akapa gasa ubururu kandikishijeho mu nyuguti zisa umweru, hirya hari ururabyo rusa icyatsi hariho n'icyuma gisa umukara.

Umuhanda urimo abamotari benshi cyane bambaye amashati y'umutuku na kasike zisa umutuku, impande yaba abamotari hariho n'imodoka isa umweru ifite n'amape y'umukara, impande yiyi modoka hari inzu nini cyane ifite ibara risa umutuku, impande ya ziriya nzu hariho n'ibiti byinshi cyane bisa icyatsi.

Umuhanda w'umukara hirya hariho agaganda gasa ikigina hariho umugabo uhetse igikapu gisa icyatsi handikishijeho inyuguti zisa umweru afashe igare risa icyatsi, yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro isa umukara imbere y'igipangu gisa umukara n'ibiti bisa icyatsi.

Akabogisi gasa icyatsi, kandikishijwe mu nyuguti zisa umweru, ni umugabo utwaye moto wambaye agashati gaciyemo uturongo tw'umutuku n'ubururu n'umweru, hirya yaho hari umuhanda uri kugendamo abamotari n'imodoka.

Umugabo wambaye ishati irimo ubururu n'umweru, imbere yiwe hari nvirope isa ikigina, hariho n'akabogisi gasa umutuku, kandikishijeho inyuguti zisa umweru gateretse kuri moto. Imbere ya moto hari amatafari asa shokora, hejuru y' ayo matafari hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi.

Umugabo wamwenyuye cyane wicaye kuri moto isa umukara afite casike isa icyatsi nawe yambaye umupira urimo umweru n'icyatsi, hiryayo hari ibiti byinshi cyane bisa icyatsi ahagaze kumuhanda usa umukara imbere yuyu mugabo hariho inyubako nziza cyane.

Inyubako nziza cyane isa umukara n'umweru, impande y'iyi nyubako hari akazu gasa umukara hejuru hariho akapa gasa umweru kandikishe mu nyuguti zisa umukara, hejuru y'iyi nyubako hari ameza asa shokora meza cyane ateretseho kompiyuta.

Urugi rwiza cyane rufite ibara rya shokora, hahagazeho umugabo wambaye amadarubindi, yambaye na kositimu isa umukara, hirya ye hari urukuta rusa umweru. Biragaragara ko yarwishimiye.

Igitanda gishashe amashuka y'umweru gifite ibara ry'umukara, hasi hari amakaro asa umweru, ku ruhande hari urukuta rusa umweru, hejuru hari akapa k'umweru kandikishije mu nyuguti zisa umukara, hariho n'amadirishya asa umukara n'amarido asa umukara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro isa umukara, n'umukandara usa shokora, n'inkweto z'umukara, imbere hari ameza asa shokora n'intebe zisa umukara, imbere hari urukuta rusa umweru, imbere ye hariho n'urukuta rusa umweru, n'ururabyo rusa icyatsi, imbere ye hari amakaro asa umweru, niyo agiye kuzamuka.

Ameza asa shokora, afite n'intebe zisa shokora, hejuru y'ameza yateguyeho ururabyo rwiza cyane rusa icyatsi, n'amasahani ariho imigati. Hirya y'ameza hari urugi rusa umukara hejuru hari amatara ari kwaka umuhondo hirya hari urukuta na rwo rusa umweru.

Inyubako nziza cyane ifite urugi rusa shokora, n'akameza gasa shokora, n'inkuta zifite amarangi asa umweru, n'amarido asa umweru n'inzugi zisa umukara, n'igitanda gishashe amashuka asa icyatsi.

Inyubako nziza cyane ifite amakaro asa umweru n'andi ase umweru n'umukara, n'idirishya risa umukara n'umweru, hirya yiyi nyubako hariho n'indi nzu yubakishijwe utubuye dusa umukara na shokora, iyi nzu ifite amabati asa umutuku.

Inyubako nziza cyane yubakishije amabati asa umutuku afite irangi risa umweru, afite ibyuma bisa umukara, ibikuta by'izi nyubako bisa umutuku by'igipangu, impande y'igipangu hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi bukikijwe n'amabuye asa umukara n'umweru.

Umugabo wambaye agapfukamunwa gasa umukara, yambaye ingofero isa umweru, yambaye ishati iciyemo uturongongo dusa umweru n'umukara, impande ye hari akapa gasa umweru kandidikisha mu nyuguti zisa, umutuku hirya ye hari imidugudu hariho n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane, hejuru hari icyapa cyandikishijwe inyuguti zisa umukara, hasi hari amakaro asa umweru, ibikuta bisa umweru, hirya hari ururabyo rwiza cyane rusa icyatsi, hirya hari amabuye asa shokora haparitseho n'imodoka.

Igitanda gisashe neza gisashe amashuka y'umukara n'umutuku n'umweru gifite n'umusego usa umweru, impande y'iki gitanda hari akabati gasa neza cyane gasa shokora, hejuru hariho n'imitako hari n'inzugi zisa shokora n'ibikuta bisa umweru.

Urugi rwiza cyane rusa shokora, mo imbere harimo ubwiherero busa umweru, hariho n'ibikuta bisa umweru, ruguru hariho n'ibirahuri bisa umukara, hirya yaho hariho n'ikindi gikuta gisa umweru, hasi hasi hariho inyuguti zandikishije ibara risa umweru.

Inzu nziza cyane ifite ameza y'umutuku, hirya yaho hari kandi kameza gateretseho ururabyo rwiza cyane rufite ibara ry'icyatsi, inzu ifite inkuta zisa umweru, hirya hari izindi ntebe zisa umukara hejuru kumeza hariho ururabyo rwiza cyane, hirya naho hari televiziyo, hari mudasobwa nziza cyane.

Umuhanda wubakishije amapave asa ikigina, impande y'uyu muhanda hari inyubako nini cyane yubakishije amatafari asa ikigina, afite amadirishya asa umwe impande y'iyi nyubako hariho ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, hirya hariho n'inyubako yubakishijwe ibyuma bisa umweru.

Inyubako nziza cyane, ifite ibikuta bisa umweru, harimo intebe nziza cyane zisa umweru, hariho n'amakaro asa umukara, hejuru hariho n'amatara, hejuru hariho akapa kandidikishijeho inyuguti isa umukara.

Inyubako nziza cyane irimo abantu babiri, hari umugabo uri guha karibu umugore kumeza, hariho ibiribwa bitandukanye, hari ameza asa shokora n'intebe isa shokora, amakaro na yo arasa shokora, ibikuta birasa umweru, hari ho n'ibishushanyo bisa umweru.

Inyubako nziza cyane ifite igipangu gisa umutuku, hejuru y'igipangu hariho amatara y'umweru igipangu cyubakishijwe n'amatafari asa shokora, hirya y'iyi nyubako hari ipoto n'ibiti bisa icyatsi.

Inyubako nziza cyane impande y'ininyubako hari icyapa gisa umweru, cyandikishije inyuguti zisa umukara, iyi nyubako ifite igipangu gisa umukara, ifite n'amabati asa umutuku, ifite n'irangi risa icyatsi n'umweru. Hasi hari ubutaka busa ikigina. Impande y'inyubako hari ibiti bisa icyatsi.

Inyubako nziza cyane ifite ibara risa umweru n'umukara, impande y'inyubako hari amakaro asa umweru, hirya y'aho hari utubuye dusa shokora, hirya iriya n'aho hari indi nyubako ifite ibara ry'umweru ifite n'amabati asa umutuku, hariho n'umugabo wambaye agapira k'umweru n'ipantaro isa ikigina, biragaragara ko ari ku manywa hirya y'aho hari ibicu bisa ubururu.

Umugabo uri kumwenyura cyane yambaye inkweto zisa umukara, yambaye n'ipantaro Isa umukara n'ishati isa umweru ,yambaye na madarubindi .Inyuma ye hari inzu nziza cyane ifite ibara risa umweru ni ibara risa umutuku, hasi hariho n'amakaro asa umweru.

Umuhanda usa umweru hirya y'amahanda hari ubusitani bwiza cyane busa icyatsi, mu busitani hashiramo uturongo dusa umweru, ruguru y'ubusitani hari inyubako nziza cyane ifite irangi risa umweru, ifite amadirishya asa umukara, ifite inzugi z'umukara n'amarido asa umukara. Imbere y'iyi nyubako hari umugabo wambaye imyenda y'umutuku ari gusukira indabyo amazi, hirya y'iyi nyubako hari n'inzu isa umutuku.

Umuhanda wubakishije amapave asa umukara n'umweru, imbere hariho inzu nziza cyane ifite irangi ry'umweru n'amakaro asa umweru, impande y'iyo nzu hari indabyo zisa umutuku n'icyatsi, handikishijwe ibara risa umweru.

Inyubako nziza cyane iriho umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro yumukara n'inkweto z'umukara, inyubako ifite irangi risa icyatsi n'umweru n'umutuku hasi hariho ubutaka busa ikigina.

Inyubako nziza cyane ifite irangi risa umuhondo, ifite ibirahure bisa umukara, hanze hari amakaro asa umukara n'umweru hariho n'andi makaro ari imbere y'umuryango asa umweru, urugi rusa umukara impande y'iyi nyubako hari akapa gasa umweru kandikishe inyuguti zisa umukara.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo indabyo z'umutuku, harimo indabyo z'icyatsi, harimo n'indabyo z'umweru, harimo n'indabyo z'umutuku, harimo n'amatara asa umweru, hirya yaho hariho n'umukara.

Aha hari iduka ririmo amabara atandukanye y'ibicuruzwa harimo abagabo batatu barimo uwabambaye ingofero y'umweru n'agasengeri gasa umuhondo n'undi mugabo wambaye imyenda y'umukara, hirya hirya y'uyu mugabo hari urukuta rufite irangi ry'umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye. harimo ibishyimbo by'umutuku, harimo ubunyobwa, harimo ingano, harimo amafu, harimo amabara atandukanye ubururu n'udufuka dusa umweru.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye imineke, amaronji, wotameloni, voka, inanasi, hirya hirya y'izi mbuto hari umugore uri kwakira umukiriya, hirya yabo hari urukuta rw'umweru, hepfo yaho hari abantu wambaye imyenda y'umukara.

Abagore benshi batandukanye bari guseka bafite n'abana hasi hari akapa gasa ubururu kandikishijwe mu nyuguti z'umweru hejuru hakaba ikindi cyapa gisa umuhondo cyandikishije mu nyuguti zisa ubururu biragaragara ko ari kwa muganga baje nko gutanga mituweri y'abana.

Abantu batandukanye bafashe icyapa gisa ubururu cyandikishijwe mu nyuguti zisa umweru. Inyuma yabo hari inzu ifite amadirishya asa umukara, ifite irange risa oranje. Hariho umugore wambaye igitenge imbere uteze agatambaro gasa umutuku n'undi wambaye ijipo isa ubururu n'ishati irimo amabara y'ubururu n'umukara.

Umugabo n'umugore bafashe agakapu gasa umweru gafite udushumi dusa umukara. Umugore umwe yambaye imyenda y'umukara afashe na telefoni mu ntoki, umugabo na we yambaye ikoti risa ubururu n'ishati isa umweru, hirya yabo hari icyapa gisa ubururu cyanyandikishije mu nyuguti zisa umweru, hariho n'igikuta gisa umweru.

Abantu benshi cyane bafite udupapuro mu ntoki dusa ubururu hariho udufoto. Biragaragara ko ari mituweri, bambaye n'ingofero mu mutwe harimo abadamu n'abagabo n'abana.

Abantu batatu bamanitse udupapuro dusa umuhondo, biragaragara ko ari mituweli harimo udufoto tw'abana, harimo umugore witeze igitambaro gisa umutuku, inyuma yaho hari n'umugore igitambaro gisa umweru, hirya y'aba bantu hari urukuta rusa ubururu, handikishijweho inyuguti zisa umweru hirya y'uru rukuta harasa umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo shokora, harimo biswi, harimo amata, harimo gorirosi, harimo amakaroni, harimo imigati, harimo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo amabara y'ubururu n'umutuku n'umuhondo n'umukara.

Iduka ry'ibicuruzwa bitandukanye harimo biscuit, harimo amata, harimo amata y'inyange, harimo amakawa, harimo n'umugabo wambaye imyenda y'umukara, harimo n'umugati, uwo mugabo bigaraga ko yaje guhaha, hejuru hariho n'irangi risa umweru, hasi hari amakaro asa umweru.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo umugore wambaye imyenda y'umukara afite agapaniye ari gukurura gasa umutuku, harimo amazi harimo ji, harimo isabune, harimo biswi, harimo amata, harimo isukari, hariyo umugati, ikintu cyose ushaka hano wakibona.

Inzu irimo ibitabo bitandukanye by'amabara menshi, hahagazemo umugore wambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'umukara n'inkweto z'umukara afite agakapu mu ntoki wambaye amadarubindi n'amaherena afite n'imisatsi y'umukara, biragaragara ko hano harimo ibitabo byinshi bitandukanye byo aje kureba.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye; harimo shokora, harimo bombo, harimo biswi, harimo imigati, harimo amabara atandukanye; umuhondo, umutuku, icyatsi, umukara, hasi hari amakaro asa ikigina, hariho n'urukuta rusa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi, imwe isa umukara, hariho hejuru itara ryo mu muhanda, hirya ku kayira k'abagenzi, hariho icyapa gisa umweru, cyanditse mu nyuguti isa umutuku, handitseho simba biragaragara ko ari ku mugoroba.

Isoko ririmo ibicuruza bitandukanye inanasi, intoryi, imboga, ibitunguru hahagazeho umuntu wabihashye yabisize mu gapaniya yambaye ikoti risa ubururu n'agapira k'umweru, asutse n'ibisuko bisa umukara biragaragara neza ko ariho yaje guhahira.

Isoko ry'ibicuruzwa byinshi hasi hari amakaro y'mweru hari na puberi isa umutuku hiryariho n'umuntu wambaye imyenda y'umukara arimo guhaha; harimo amavuta, harimo biswi, harimo imyunyu, harimo amata, harimo n'imigati, hejuru harimo kwaka amatara.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amata, harimo amazi, harimo biswi, harimo imigati, hariho umukobwa ufite akantu ari guhahiramo yasizemo inanasi, umukobwa yambaye amadarubindi asa umukara afite ibisuko bisa umukara, yambaye agapira k'umweru n'agakoti gasa umukara.